Mu kabyiniro haka amatara atandukanye, haba harimo inzoga z'ubwoko butandukanye, abo abantu babyina nta we uri kureba undi, harimo firigo zirimo inzoga zitandukanye.

Ku kabari keza, hari abantu benshi bari kugenda bafata icyo kunywa, hari umuntu wambaye ijile agenda abayobora aho bicara n’aho banyura kugira ngo babakire. Ni mu ijoro, amatara ari kwaka, ikirere gisa n’umukara.

Akabare cyangwa se resitora n'ahantu heza haba hateguwe kugira ngo abakiriya basange hasa neza. Hari: inzoga z'ubwoko bwose, ibirahure biteguye ku meza byo kunyweramo, n'intebe nziza bifite isuku.

Abagabo babiri bicaye mu kabari, iruhande rwa kontwari bari gusangira. Bari gukubitana ibirahure babwirana ngo ku buzima bwacu, baseka. Ni akabari karimo inzoga z'ubwoko bwose. Karirimo ibinyobwa bitandukanye haba ibisembuye n'ibidasembuye.

Mu kabari aho abantu basangirira ibinyobwa bitandukanye, ibidasembuye n'ibisembuye, harasa neza amatara ari kwaka, abantu baricaye bari kuganira, bamwe bari kurebana abandi bari kureba ku ruhande, harimo inzoga z'amoko yose harasa neza.

Inzu ifite imiryango enye ikorerwamo ubucuruzi, yubatswe hitegeye umuhanda. Iruhande rwayo hari igiti kinini gitanga umwuka mwiza, ni ku muhanda w'umukara wa kaburimbo nini.

ku kabari hari ibiti by'ubusasa umumotari nawe ahetse umugenzi ari ku kanyuraho imbere inyuma hari indi moto ni ku kazuba harasa neza inyuma yaho hari ibiti bitanga umwuka mwiza

Inzu, inzu imwe irageretse, indi ntabwo igeretse, ifite imiryango itatu, imiryango ibiri irafunguye kandi ikorerwamo ubucuruzi, undi muryango umwe urafunze, ni ku kazuba, mbese harasa neza.

Ibyapa bimanitse hejuru ku mazu bigaragaza ibicuruzwa amaduka acuruza. Bigaragaza ibicuruzwa byose biba muri iryo duka. Harimo omo, amasabune, harimo pampa, ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye byose bikaba biri kuri ibyo byapa bimanitse hejuru y'umuryango w'inzu.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora amazi , mu nsinga z'amashanyarazi. Rirafunguye kugirango ugize icyo akenera agure.

Inzu yubakishijwe amakaro ifite imiryango ibiri, umuryango umwe urafunguye, uriho icyapa kigaragaza ko bacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, kandi banabikora, banabikanika, hariho konteri iteye amarangi y'icyatsi n'umweru.

Amazu ari ku muhanda , amazu y'ubucuruzi , imwe ifite ibara ry'umuhondo , indi ifite ibara ry'umukara , imbere hariho abantu bacuruza mituyu , umwe aricaye, undi ari kugenda . Haparitse moto itwara abagenzi , hegereye umuhanda cyane.

Imbere y’inzu yanditsweho ko ari akabari, haparitse imodoka ebyiri z’umukara. Kandi n’iyo nzu na yo isa n’umukara, yanditseho ngo "Akabare."

Icyapa kinini cyanditseho ngo twigisha, iga icyongereza k'ubuntu, andika muri yutube yawe rani ingirishi wivu Lamberi.

Mu mazu y'ubucuruzi hari umuntu wo gucuruza inyanya. Abandi bicaye ku mifuka y'ibirayi, hari ibiti bitambitse bibiri bahagaritse rutambitseho ikindi byifashishwa mu gupima ibiro by'ibicuruzwa.

Abanyonzi b'amagare batwara abantu n'ibintu bahagaze imbere y'umuryango w'iduka, ricuruza ibikoresho bitandukanye ari iby'abana bakenera ndetse n'abantu bakuru. Imbere hahagazeho daso n'undi muturage, n'abandi bari kwinjira mu iduka.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye: Amata, ikivuguto, uburoso bw'amenyo, imitobe y'ubwoko butandukanye, imineke, amabombo rirafunguye kugirango ushaka icyo yifuza akibone.

Inzu ziri mu bipangu, aho hari inzu isanzwe yo guturamo, ifite igipangu cy'umukara. Ndetse n'indi nzu nini cyane ndende, ifite ibirahuri by'umukara n'amabati y'umutuku. Ifite igipangu kizitijwe ibyuma by'ubururu. Abaturage bari kugenda iruhande rwazo. Hari n'icyapa kinini cyanditsweho ngo abakobwa beza.

Inzu yubakishijwe amabati meza agezweho, amakaro hejuru. Ifite icyapa imbere cyanditsweho papeteri Umuvandimwe, n'ikindi cyaditsweho resitobale. Ni inzu isa neza ya kijyambere, hari n'akazitiro kubabakishijwe imigano.

Ku mucyo, ku izuba, ikirere cyiza, ahantu hateye ubusitani bw’urusasa, hari icyapa cyanditseho hoteli yitwa Komforuti. Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye amwe bita ruriba.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye rirafunguye imbere yaryo hateretse ameza, haruguru hari umutaka bacuruzamo mitiyu, hejuru yabyo hari icyapa gishushanyijeho amadobo ya omo. Ni inzu nziza ifite amabati agezweho.

Ku muhanda, umwe uzamuka, undi utambika. Mu isoko hari amazu y'ubucuruzi menshi. Ibicuruzwa bimwe babitwikiriye amashitingi, imvura igiye kugwa, abaturage bamwe barahagaze, abandi bari kugenda. Hari abanyonzi bafite amagare, abafasha gukora akazi kabo neza.

Inzu yubakishijwe amakaro hejuru, y'imiryango ibiri isiga amarangi y'umundo n'icyatsi. Umuryango umwe urafunguye, imbere hariho umuntu udoda inkweto, imbere harimo abantu badoda imyenda, abacuruzi ibitenge, ibikoresho by'abana bajyana ku ishuri, hari abana bari kugura bari kwitegereza.

Iruhande rw'inzu hari ibiti binini birebire. Ibyo biti byangije amabati y'iyo nzu. Aho haguyeho ibyatsi byinshi bikaba bituma amabati abora.

Iduka ricuruza ibyo kurya n'amavuta n'ibindi bintu bitandukanye, rirafunguye, hanze hateretseho intebe, iduka inzu yubakishijwe amakaro ku ruhande no hejuru, umuntu arimo gucuruza.

Icyapa kinini kimanitse ku nzu kigaragaza ibicuruzwa biba muri iryo duka, harimo: omo, harimo amavuta, ibinyobwa. Iruhande rwacyo hari insinga zijyana amashanyarazi mu mazu.

Ku rubaraza rw'inzu hari imyenda icuruzwa, hari umuntu wicaye imbere ari gukanika, hari ibicuruzwa bya telefone, hari kandagirukarabe, hirya hari imodoka iparitse, n'umutaka wa mitiyu.

Iduka rifunguye, hejuru hariho icyapa, hejuru yaho hari ibindi byapa bibiri, hariho anteni ya diyesitivi ifasha kwerekana amashusho muri tereviziyo neza.

Amazu y'ubucuruzi ni menshi asize amarangi. Hagati yayo harimo umuhanda wa kaburimbo uzamuka. Inzu yo kuruhande rwo hepfo y'ubakishijwe amakaro , ahantu hose ifite inzugi z'umuhondo.

Inzu ifite imiryango ibiri umuryango umwe urafunguye uriho irido ry'umweru, iyo nzu iteye amarangi y'umutuku n'umuhondo, ndetse n'ubururu ni ku kazuba kandi iyo nzu yafotowe na terefone.

Inzu nini y'ubucuruzi yanditseho Amajyambere supamaketi serivise. Ni inzu igeretse gatatu imbere yayo haparitseho imodoka ebyiri ndetse na moto.

Amangazini acuruza ibikoresho bitandukanye, harimo ibikapu by'abagore, harimo amatereviziyo, harimo terefone intoya n'inini, amasaha, ekuteri, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Abagabo babiri bari kugenda baganira, umwe yafashe nviropi ya kaki, imbere ya bo hari amaduka, iduka rya Emutiyeni n'irindi duka ricuruza ibikoresho by'ibyuma, hari n'undi mugabo wicaye, ku ruhande hari n'indabo ziteye mu bikoresho bikozwe mu mbaho.

Amazu y'ubucuruzi, abantu bari kugenda imbere ya yo, abandi barahagaze, hariho saro yo kosheramo no gutunganya inzara, hari abicaye, ni amazu meza, hari n'iduka rya Eyateri ndetse hari na kandagira ukararabe ku miryango.

Inyubako ebyiri zifatanye. Imwe ifite amabara y'umukara inzugi z'umweru. Indi ifite amabara y'umuhondo, inzugi z'umukara. Imwe yanditseho Gisazikafe cyangwa se ikawa ya Gisa. Abandi bagabo bicaye ku muryango, undi arahagaze. Umwe muri bo yambaye ekuteri.

Ahantu hateye indabo ku gipangu cy'ubururu, hari ibyapa bigaragaza ko hari amazu, ibyumba bikodeshwa byo kuraramo, hari akabari, hari resitora, haba ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Iduka rirafunguye. Harimo amazi bacuruza, imbere hari gazi bacuruza n'umutaka wa MTN na yo barayacuruza. Bacuruza udutambaro ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umuturage w'umugabo wicaye ku gatebe, yambaye ekuteri mu matwi. Yicaye iruhande rw'ingazi cyangwa ama esikariye azamuka , ashushanyijweho ibirenge.

Ku maduka acuruza; ibiribwa, isombe, imbabura, imikubuzo, ibidomoro, hari kandagira ukarabe, hahagaze imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri yazanyemo abakiriya.

Iduka rifunguye ryanditsweho kenkayeri Turaheza . Ducuruza ibikoresho by'amazi , amashanyarazi , n'ubwubatsi . Ni inzu yubakishijwe amakaro hejuru , ifite irangi ry' umukara n'umuhondo.

Inzu icururizwamo ibyo kurya biswi, imigati, handitsweho ngo arimatasiyo hari icyayi, imigati, keke, ji n'imineke, harimo amakarito atandukanye y'ibicuruzwa.

Icyapa kinini kiri iruhande rw'inyubako nini, cyanditsweho dukunde kawa, koperative ikawa ya Musasa, ikawa yaruri woshingisitesheni ndetse n'ikaragiro ry'amata, n'ahantu hari kuva izuba haba ibitaka bisa n'umutuku.

Inzu, inyubako yanditsweho banki y'abaturage b'u Rwanda, agashami ka Gakenke ifite amadirishya y'umuhondo, hicayeho abaturage, harimo abagabo n'abagore bakeneye serivisi zitandukanye, kuri iyi banki.

Mu ruganiriro harasa neza, hari intebe, hari imikeka, hari ameza atandukanye, hari imitako imwe ya kinyarwanda, imitako yo ku meza ya kizungu, ni ahantu hasa neza cyane umuntu yaruhukira.

Igipangu gikinguye, hejuru hariho icyapa cyanditsweho ko ari moteri. Habaho amazu akodeshwa, bahakorera ibirori. Igipangu kirafunguye, mo imbere harimo ikindi cyapa gitoya kivuga habaho ibiryo byihuse. Harimo inzu nini.

Inzu iri hagati y’urusasa ndetse n’ibindi biti, harimo hariho intebe ku muryango, hari akayira keza kagana kuri iyo nzu, kubakishijwe amabuye. Hariho amatara atanga urumuri mu ijuru, hariho ubusitani busa neza.

Inzu ifite iruhande ubusitani burimo insasa, ifite inzugi zisize amarangi y'umweru, hejuru handitseho ngo " Murakazana neza muri Hoteli yitwa Havowisina".

Amavuta ya erayo ari mu macupa manini. Amavuta afasha kuvura indwara zitandukanye, ari gucuruzwa mu iduka, ariko aya mavuta afite igiciro kiri hejuru.

Mu isoko bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye byo mu gikoni, harimo amajage y'ibyuma, ibirahure, ibiyiko, amafusheti, amajage ya puraistike, indobo, amabase, n'ibindi bintu bitandukanye.

Ahantu hacururizwa ibikoresho byo mu gikoni. Indiga cyangwa se ibyuma, ibiyiko, amafurusheti, amasahani y'ibyuma n'aya pulasitiki, ibikombe cyangwa ibikosi, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umunzani wifashishwa mu gupima ibicuruzwa. Ari uw' isahane ari n'umunzani w 'amabuye byose birapima, ariko umunzani w'amabuye bisaba ngo ubanze umenye uko ukoreshwa kuko ntibyoroshye guhita ubibona.

Abaturage benshi batanditse amashu ku mifuka no ku mashitingi, amashu menshi cyane bari kuyacuruza bamwe barahagaze bari kureba, abandi bari kugura abandi bitwikiriye imitakaka. Ni ahantu mu gasozi hari agashyamba, iruhande rwabo hari ahandi bari gucuruza ibindi bicuruzwa nk'ibijumba.

Muri gare ahantu haparika imodoka zivuye hirya no hino , abagenzi bamwe barinjira , abandi bagasohoka , hari imodoka ya Interinasiyonali , hari amaduka ku mpande kugira ngo abagenzi icyo bakeneye bakibonere hafi.

Mu isoko hari amazu afunguye y'ubucuruzi , harimo abantu benshi cyane. Bamwe bari kugura , abandi bari gucuruza , batanditse ibicuruzwa byabo hasi mu mifuka.

Mu isoko bacuruza ibicuruzwa bitandukanye imboga n'imbuto, ibikoresho byo mu gikoni, umuceri, imyenda y'imbere, harimo abaguzi bakeya ariko harimo abacuruzi benshi.

Mu isoko rinini ricuruza ibicuruzwa bitandukanye: ibitunguru, pavuro, inyanya, ibirungo bitandukanye, avoka, tungurusumu, hicayemo abagore bari kubicuruza bameze neza ariko nta bakiriya bafite.

Ni isoko ritoya ricuruza ibintu bitandukanye, byaba ibyo kurya byaba ibikoresho bitandukanye, aho umuntu agenda agafata ibyo akeneye nta we umweretse ari we ubyishakiye, ubundi akayishyura nyuma. Iduka ni rinini harimo abantu bari kurizenguruka bari gushaka ibyo bakeneye.

Ku muhanda hari abantu bacuruza mitiyu, hari igiti, hari amapoto y'amashanyarazi, hari inzu ndende, ndetse n'inzu zisanzwe zose zikorerwamo, ibikorwa bitandukanye.

Mu isoko ritari irya kijyambere, abantu bafite ibitebo ku magare bazanye ibicuruzwa, abandi benshi barahagaze bategereje kugura, ni ahantu hafite ibitaka bitukura, ni ku izuba.

Mu isoko ritagaragaramo urumuri ruhagije, harimo imifuka irimo ibicuruzwa ariko bitarahamburwa, harimo abaguzi ni isoko risakaye ariko mu mpande ntirishije, hariho n'indi miryango ku ruhande nayo yifashishwa mu bucuruzi.

Ibikoresho byifashishwa mu kumesa, kubika amazi, koza amasahani. Amabase manini ndetse n'amatoya, amabase abiri y'ubururu agerekeranije, mo imbere harimo amabase matoya y'umutuku n'icyatsi ndetse n'ay'ubururu.

Amaduka acuruza ibintu bitandukanye, hari abantu bamwe barikuvugira kuri telefone, abandi barahagaze, abandi bari kugenda, hari iduka ricuruza imbuto, amaronji, otemelo n ibinyomoro, udutunda tw'umukara, hari indobo zirimo omo, amaduka amwe arafunguye andi arafunze, byose nibyo kwiteza imbere.

Ni isoko rinini hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye: amatelefone, amaduka amwe arafunze, andi arafunguye, hariho umuntu wicaye ku muryango, ni isoko ryubakishijwe amakaro hasi, risa neza cyane.

Imbuto zitwa gaperi abantu benshi barazisuzugura, ariko n'impuhu ziraryoha, abana barazikunda, bazitonoye bazishyira ku nkoko, aho umuntu agiye kuzigura akazitwara zitonoye.

Imitako y'ubukorikori iri mu mabara atandukanye: umutuku, umuhondo, umukara, icyatsi, ubururu, byose akaba ari imitako y'ubukorikori ikozwe mu bikoresho bitandukanye. Ikaba yifashishwa kandi ikaba ibyazwa umusaruro, igatanga amafaranga.

Imbuto zitandukanye zirimo imyembe: amaronji, ibinyomoro, udutunda tw' umukara twita amarozi biri gucururizwa ku muhanda, ku mifuka basashe hasi.

Mu isoko rya kijyambere, aho bacururiza imboga ndetse n'imbuto, harimo abantu bari gucuruza. Ni isoko ryubatse neza, rifite urumuri ruhagije, ibicuruzwa bimwe bitwikirijwe amashitingi, hakasemo ibisima abantu bacururizamo.

Ibitoki by'inyamunyo byinshi byasaruwe, byavanywe mu murima bijyanwa ku isoko aho abaguzi babisanga. Ibitoki byiza byakuze neza kandi biryoshye.

Mu isoko ricuruza ibintu bitandukanye imbuto, ibirayi, umuceri, akawunga, isabune, amavuta. Harimo abaturage ni soko risakaye gusa, ku ruhande nta kintu gihari ariko utuduka turi imbere twubakishijwe imbaho.

Mu isoko ridandazwa ibicuruzwa harimo n'imbuto, harimo tangawize, amaronji, pome, imyembe, harimo abantu bari gucuruza, bari kurya, bari kugura, hasakajwe amashitingi, hateretse intebe zo kwicaraho.